Mu cyumba cyo kwa muganga ahatangirwa serivisi zihutirwa, mbese umuntu ashobora gukomereka agahita ahabwa iyi serivisi. Harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa nyine bafasha umurwayi uhuye n'icyo kibazo, harimo indobo ndetse n'indi miti itandukanye.

Abantu barindwi bicaye imbere yzu, iyo nzu ifite urugi rw'ubururu, intebe bicayeho uwicaye ku ruhande yambaye bodaboda afite ikaramu mu ntoki ndetse kuhande rwe harambitseho terefone, hari kandi n'abandi babiri, umwe yambaye umupira w'icyatsi, undi yambaye akenda karanga icyo akora.

Imodoka yo kwa muganga iyi modoka yitwa imbangukiragutabara ivana abantu ku bitaro bimwe ibatwara ku bindi bitaro ni byiza ko twagana ibigonderabuzima hakiri kare kugira ngo tutazarembera mu rugo izi modoka zikitabazwa.

Kwa muganga mu cyumba batangiramo serivisi zihuse harimo umuganga wambaye imyenda y'akazi n'uturindantoki arimo afata umurwayi ibizamini, muganga n'uwo murwayi bombi bambaye udupfukamunwa dusa, harimo n'umubyeyi wambaye agapfukamunwa k'igitenge ni byiza kujya kwa muganga igihe wumva umerewe nabi.

Abantu batandukanye bitabiriye inama, bari kuganirizwa n'umuntu umwe ndetse harimo n'abandi bantu bambaye imyenda y'abantu bakora ubutabazi bwihuse bageza umuntu kwa muganga igihe ahantu habereye nk'impanuka cyangwa se ibindi bintu byakwangiza umuntu akaba yahungabana.

Abantu babiri umugabo n'umugore, bombi bambaye udupfukamunwa ariko tudasa umugabo yambaye kandi, akandi kenda kari inyuma y'umupira w'umutuku, kariho ikimenyetso cy'umusaraba. Iki kimenyetso ndetse n'aka kenda uyu mugabo yambaye, biranga umuntu ukora mu bintu by'ubutabazi.

Abantu batandatu. Umwe ari imbere afashwe n'undi muntu wambaye uturindantoki mu ntoki, bisa naho agize ikibazo kihutirwa bamutwaye kwa muganga. Ni byiza gufashanya igihe umuntu umwe mu bandi agize ikibazo tukamutwara kwa muganga.

Agakoresho kabikwamo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga ngendanwa. Harimo imakasi ndetse na bande. Ibyo bikaba byifashishwa mu gufasha umuntu uhuye n'ikibazo cyane cyane yakomeretse. Kano gakoresho bakunze gutwarwa n'abantu bita ku barwayi bakomeretse cyane cyane abakomerekeye mu muhanda bahuye n'impanuka.

Kwa muganga harimo abantu bambaye imyenda iranga abaganga cyane cyane abakora ku barwayi, ahantu bita muri shinyiriza, iyo umuntu agiye kwa muganga ni byiza ko agana ahantu bamufasha vuba kugira ngo ubuzima bwe bureke kujya mu kaga.

Abantu benshi bari mu muhanda wa kaburimbo bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo babiri bambaye imyenda iranga ibyo bakora y'umweru, aho bageze hari icyapa cyanditseho amagambo yo mu cyongereza ndetse n'andi yo mu kinyarwanda agira ati "ibitaro by'Akarere bya Nyagatare.

Kwa muganga mu cyumba aho basuzumira abarwayi, harimo umuganga ndetse n'umurwayi waje kwisuzumisha, muganga yambaye umwenda w'akazi w'umweru arimo arandika ibyo umurwayi arimo kumubwira, harimo n'ibindi bikoresho nka mudasobwa n'intebe ndetse n'ibindi byifashishwa kwa muganga.

Ku ivuriro hariho imbangukiragutabara, umuhanda werekeje kuri rino vuriro ni umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwawo hariho n'akayira k'abanyamaguru, bino bitaro hariho ubusitani bwiza cyane.

Abantu batandatu bari kwa muganga, babiri muri bo ni abaganga bambaye imyenda y'umweru y'akazi abandi babiri ni abantu bakora kwa muganga nabo bambaye imyenda y'umweru y'ubururu, hari n'undi mugabo umwe ndetse'umumama umwe mama ahetse umwana hanyuma uwo mugabo wundi we yambaye umupira w'ubururu ariko afite ikarita iranga icyo akora imbere yabo hari ibinini ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye.

Kwa muganga mu nyubako nziza cyane irimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga ndetse n'imeza, harimo umugabo wambaye umwenda wo kwamagara uri mu ibara ry'ubururu, mbese ni umwenda w'akazi, harimo n'undi mugabo uteruye ibintu mu ntoki, ku meza hariho ibintu bitandukanye byifashishwa.

Kwa muganga hari abana bicaye ku buriri, hakaba n'abandi bantu bahagaze, aba bahagaze bari kureba uko abana bamerewe, mu gihe hari n'umugabo uhagaze wambaye ishati n'ipantaro y'umukara watebeje, urimo abwira abantu uko ubuzima bw'abana aka kanya bwifashe.

Kwa muganga hari abantu bose bambaye udupfukamunwa, babiri muri bo bambaye impuzankano isa iri mu ibara ry'icyatsi, abandi babiri nabo bambaye ingofero zisa ziri mu ibara ry'icyatsi, muri iki cyumba harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Kwa muganga mu cyumba harimo abantu bane, babiri baricaye abandi bararyamye abaryamye, abaryamye baryamye ku bitanda, harimo inzitiramibu ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga byifashishwa kugira ngo umurwayi yitabweho.

Abantu icyenda, abagabo n'abagore, harimo abagufi n'abarebare, abagore babiri bambaye amakanzu, harimo umugabo umeze nk'umuganga kuko yambaye umwenda uranga akazi akora, hari kandi n'umusore na we wambaye urunigi ndetse n'akajire k'ibijyanye n'ibyo akora, abandi na bo barahagaze bose basa n'abari kwifotoza.

Kwa muganga mu icumba harimo abantu bane barimo n'umuzungu, harimo intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Kwa muganga ikigaragaza ko ari kwa muganga ni uko hari umugabo wambaye umwenda w'umweru uranga abaganga uriho akamenyetso k'umusaraba, hariho kandi umugore ufite umusatsi uboshye wambaye ikoti ry'umukara, imbere yabo hariho utuntu tw'icyatsi ndetse na robine.

Abantu benshi cyane bagiye kwibuka bari mu muhanda wa kaburimbo babiri muri abo bantu, bafite icyapa cyanditseho amagambo agira ati "kwibuka mirongo itatu ibitaro bya gatunda." Imbere y'abo bantu hari abapolisi babiri bafite imbunda. Ni byiza ko twibuka kugira ngo abacu tutazabibagirwa.

Kwa muganga ni mu cyumba hariho inkweto z'umweru z'umuganga, hariho ndetse na robine n'akantu gahanitseho imyenda ya muganga, si byiza kujya kwa muganga ukinjira aho upfuye kubona kuko ari bibi cyane.

Kwa muganga mu nzu aho bapimira ndetse bagatangira n'imiti yoroheje harimo abantu bane umwe afite agapapuro undi afite ikaramu harimo umumama ndetse n'umwana bigaragara ko baje gupimisha ibizamini kugira ngo barebe ubuzima bw'umwana uko buhagaze.

Kwa muganga mu nyubako bareberamo ibizamini bafashe ku bantu, harimo umugabo w'umuganga wambaye umwenda uranga akazi akora, mbese wo kwa muganga yambaye n'uturindantoki mu ntoki kandi nta musatsi afite.

Kwa muganga aho barebera ibizamini byafashwe, muganga arimo ari kureba mu cyuma cyifashishwa kugira ngo barebe uburwayi umuntu afite, bitewe n'indwara bamupimye, yambaye impuzankano y'akazi ndetse hari n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Kwa muganga mucyumba bapimiramo ibizamini byafashwe ku barwayi batandukanye, hagaragara umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki ku ntoki ufite akarahuri kariho amaraso agiye kureba uburwayi afite, ntabwo umuganga agaragara umubiri wose.

Kwa muganga ahantu bafatira ibizamini ndetse bakanapimira ibizamini, iyo umuntu bamaze kumufata ikizamini, ni hano baza kurebera imwe. Ni byiza ko tujya tugana kwa muganga tukisuzumisha bakaturebera indwara turwaye.

Kwa muganga mu cyumba bafatiramo ibizamini, harimo umuganga umwe wambaye agapfukamunwa k'umweru, yambaye n'impuzankano iri mu ibara ry'umweru, yicaye ku ntebe imbere ya mudasobwa, mu cyumba harimo n'ibindi bikoresho ndetse n'amatara byifashishwa n'abaganga kugira ngo batange serivisi nziza.

Kwa muganga aho basuzumira bakanarebera ibizamini byafashwe ku barwayi batandukanye, harimo umuganga umwe w'umugabo, yambaye agapfukamunwa, arimo arareba mu cyuma cyabugenewe kugira ngo amenye indwara umurwayi arwaye, uwo muganga aricaye, hari n'ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Mu nyubako yo kwa muganga. Aho bafatira ibizamini ndetse bakabisuzumira. Hari amakayi yanditsemo amagambo atandukanye, bigaragara ko ari abantu bafatiwe ibizamini. Hari kandi n'ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa bafata ibizamini ndetse n'umuti wo kwisiga ku ntoki.

Kwa muganga ahantu bapimira ibizamini byafashwe, harimo umuntu utagaragara wese, wambaye uturindantoki tw'ubururu ndetse n'umwenda wabugenewe kwa muganga w'umweru, muri iki cyumba harimo n'undi muntu ndetse n'abandi n'ibikoresho bindi byifashishwa kwa muganga, cyane cyane muri izi serivisi.

Kwa muganga aho bapimira ibizamini by'amaraso yafashwe, hagaragara ikiganza cy'umuganga wambaye uturindantoki afite n'agacupa karimo amaraso agiye kugashyira ahabugenewe, aha harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa bapima indwara umuntu arwaye.

Kwa muganga aho basuzumira bakareba ibizamini byafashwe kugira ngo bamenye indwara umurwayi arwaye, harimo umuganga wambaye agapfukamunwa n'uturindantoki by'ubururu ndetse n'itaburiye y'akazi, yitambirije n'agatambaro k'umukara, muri iki cyumba harimo n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa bareba izo ndwara nyine.

Umumama ukiri muto cyane uri guseka kuko yibarutse umwana, ari kwa muganga bari bamuteye urushinge kugira ngo aze kubyara neza, ni byiza ko niba umubyeyi amaze kubyara umwana amwonsa kugira ngo umwana na nyina batangire gukundana bakiri bato, uyu mumama arishimye cyane.

Umugabo n'umugore bafite abana, abana babo bambaye imyenda isa ndetse n'inkweto n'ingofero bisa, umugabo yambaye amadarubindi mu maso, umugore we arimo guseka, ni byiza ko niba tugiye kwa muganga dufite impanga, umugabo n'umugore bafashanya kugira ngo abana bategurirwa umwe undi agasigara inyuma.

Umumama mwiza cyane uri kwa muganga wamaze kwibaruka umwana ari guseka kuko yamaze kubyara, ari kwa muganga ku gitanda, ni byiza ko umwana akivuka yegerezwa nyina, nyina akishima ndetse umwana akamusinzira mu bituza.

Kwa muganga mu cyumba, harimo abantu benshi bambaye imyenda iranga ibyo bakora, harimo n'undi mubyeyi uhagaze inyuma y'umuntu wambaye ivara mu mutwe, uri gupimwa n'umuganga wambaye uturindantoki mu ntoki ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu n'amadarubindi, ari gupima umurwayi umwicaye imbere.

Abana bicaye mu cyumba ahantu hariho za mudasobwa, buri mwana arimo areba muri mudasobwa ye kuko irafunguye, ntabwo bambaye imyenda isa.

Imboga nziza cyane za dodo, zihinze mu karima k'igikoni, zisa neza cyane zimeze nk'izafumbiwe, ni byiza ko duhinga imboga za dodo kuko zirinda indwara nyinshi kandi zikaba zinanazivura.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo inzitiramibu ndetse n'abamama bafite abana. Imbere y'ibitanda hariho umumama uhagaze, ufite umwana w'uruhinja mu ntoki, bigaragara ko avuye nko kumukingiza. Ni byiza ko umubyeyi utwite ajya kwa muganga kugira ngo abyarireyo hatazagira ikibazo kimubaho abyara.

Abantu bambaye impuzankano ndetse n'ingofero n'inkweto bisa, uhagaze hagati muri bo, afite umwana w'uruhinja mu kiganza, bahagaze imbere y'inzu y'amatafari ahiye, ni batatu kandi ni abaganga.

Abantu bitabiriye inama ku buzima iri kubera mu cyumba cyagenewe kuberamo inama, hari umugore uhagaze imbere yabo yambaye amadarubindi n'ikanzu y'umweru afite akuma bifashisha bavuga ari kwigisha aba bantu ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ahantu bano bantu bicaye hariho amacupa y'amazi.

Kwa muganga. Hariho abaganga babiri bambaye imyenda y'akazi. Igaragaza ibyo bakora. Ni umugabo n'umugore. Ku ruhande rwabo hari n'abandi bantu, harimo n'umugabo wipfumbase, wambaye amadarubindi.

Kwa muganga hari icyapa cyanditseho amagambo agira ati twite ku buzima bwo mu mutwe, kuri icyo cyapa hariho ibiganza bibiri, iruhande rwacyo hariho intebe ikoze mu giti ndetse n'imeza iriho agatambaro k'ibara ry'icyatsi n'icupa riteretse kuri iyo meza.

Abantu benshi cyane batandukanye bari mu nzego zitandukanye. Harimo umu polisi wambaye ingofero n'imyenda y'akazi. Abandi bantu nabo bafite ibirango. Ariko muri ibyo birango harimo abafite ikirango kinini cyanditseho amagambo agira ati:"kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda".

Abantu bicaye, harimo n'abandi bahagaze, mu bicaye harimo abasirikare babiri mu bahagaze harimo abambaye impuzankano ifite ibara ry'icyatsi inyuma yabo hari ubusitani ndetse hari n'icyapa kigaragaza urwego rw'igihugu rwita ku buzima, ni byiza kwitabira inama nk'izi kuko zituma abantu bamenya uburyo babungabunga ubuzima bwabo.

Umu mama mwiza cyane arishimye nubwo abumbye umunwa, afite agatambaro mu ntoki n'akuma kifashishwa bavuga kugira ngo nibashyiraho indangururamajwi buri muntu wese yumve, ahagaze imbere y'icyapa kiriho amagambo atagaragara neza yose ku buryo umuntu yayasoma.

Kwa muganga cyangwa se mu yindi nyubako itangirwamo imiti, harimo abantu babiri babyigiye, umugabo n'umugore. Imbere yabo hari mudasobwa, muri iyo nyubako harimo imiti itandukanye.

Mu nzu ahacururizwa imiti, harimo imiti myinshi y'amoko agiye atandukanye, iteretse ahantu hatandukanye buri muti ugiye ufite ahantu uteretse ukurikije ubwoko bwawo.

Mu iduka ricuruza imiti ivura abantu, harimo imiti iteretse ahantu hagiye hatandukanye buri muti uteretse ahantu hagenewe ubwoko bw'uwo muti, iri mu ngano zitandukanye ndetse n'uducupa twayo ntidufite amabara asa, aho duteretse hariho amabara y'icyatsi ndetse umutuku n'umweru.

Mu iduka ricuruza imiti itandukanye. Harimo imiti itandukanye ariko nta muganga cyangwa se undi muntu wabyigiye uri muri iri duka. Si byiza kwinjira mu iduka nyiraryo atarimo.

Mu iduka rigurisha imiti y'amatungo, harimo imiti itandukanye irimo n'iy'inzoka iri mu ngano zitandukanye, ni byiza ko abantu babyigiye ari bo bajya bagurisha imiti yamatungo.

Mu nyubako aho batangira imiti, mbese iyi nyubako ishobora no gukoreshwa n'undi muntu wize ibijyanye no gutanga imiti. Harimo imiti itandukanye, hagaragara akaboko k'umuntu waje kugana iyo nyubako. Si byiza ko abantu batize ibijyanye no gutanga imiti, bajya baha abantu imiti.

Abadamu babiri bagiye mu gikorwa cyo kwamamaza imikoreshereze y'agakingirizo, aho handitse ngo ugakoreshe neza, bigaragara ko aba badamu bagiye kwigisha abantu gukoresha agakingirizo, kugira ngo bamenye ibyiza nzakora.

Icyapa cyanditseho amagambo menshi muri yo twavuga amagambo agira ati insanganyamatsiko gushishikariza urubyiruko kwitabira serivisi zo ku cyumba cy'urubyiruko , hariho n'abantu babiri umwe yitwa Nzayisenga undi yitwa Niyonkuru.

Abantu babiri bose n'ab'igitsina gore, umwe muri bo arabyibushye yambaye amadarubindi mu maso, bari ku cyapa cyanditseho amagambo agira ati "ipimishe virusi itera SIDA umenye uko uhagaze".

Ahantu hari abantu batandukanye batatu muri bo bambaye imyenda y'umweru hejuru, hariho n'abapolisi babiri, umupolisi umwe afashe ku kantu k'umutuku gafashweho n'abo bantu batatu bambaye imyenda isa, hari n'abandi bantu babiri umugabo n'umugore.

Abantu babiri b'abakobwa bafite icyapa cyanditseho amagambo ugakoreshe neza, bari kugenda bamamaza imikoreshereze ndetse n'ibyiza byo gukoresha agakingirizo.

Abantu bitabiriye inama runaka, bambaye imyenda yiganjemo iy'umweru kandi iriho n'ibirango bisa, abandi ntabwo bambaye imyenda nk'iyo ngiyo bari mu nyubako, bisa n'aho bari kwamamaza ikintu runaka.

Abantu biganjemo ab'igitsina gore ariko harimo n'ab'igitsina gabo, hari agatebe hirya ku ruhande katicayeho umuntu, inyuma y'abo bantu hari ahantu hariho icupa ririmo amazi, bigaragara ko aba bantu bitabiriye inama ku bintu runaka.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, hari abambaye ingofero n'abatazambaye, bicaye ku ntebe bisa naho bari kuganira kugira ngo barebere hamwe umuti w'ikibazo runaka, intebe bicayeho zikunda kuboneka ku bigo by'amashuri kuko naho bari hari ikibaho.

Kwa muganga ahatangirwa amahugurwa ku bintu bitandukanye, abantu b'urubyiruko baricaye abandi barahagaze harimo abari guseka ndetse n'abari kwitegereza neza, hariho kandi umuntu w'umudamu ufite udukingirizo dutukura n'ikayi mu ntoki ari kwereka abantu, hariho n'umugabo uri guha umuntu udukingirizo abandi bo bari guseka cyane.

Abantu b'urubyiruko bambaye imyenda itandukanye barimo bamamaza bafite icyapa cyanditseho amagambo agira ati "rubyiruko nimwe ahazaza heza h'uru Rwanda irinde virusi itera sida ipimisha uyu munsi, ni byiza kwifashisha urubyiruko turandura sida kuko ari rwo Rwanda rw'ejo ruzira sida".

Abantu benshi bagaragara nk'abanyeshuri bicaye ku intebe bambaye impuzankano z'ubururu benshi muri bo, harimo abandi nabo bambaye imyenda isanzwe itari impuzankano bafite icyapa kibari imbere cyanditseho amagambo agitira ati "Ndi uw'agaciro, ndashoboye".

Abantu benshi bari kugenda bamamaza, bafite icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo turwanye ibiyobyabwenge n'ibyaha bifitanye isano, uruhare rwa buri munyarwanda ni ingenzi, ni byiza ko turwanya ibiyobyabwenge kuko byangiza ubuzima dufatanyije.

Abantu biganjemo ab'urubyiruko ndetse n'abakuze bafite icyapa kiriho magambo agira ati "twimakaze ibiganiro byigisha ubuzima bw'imyororokere urubyiruko no mu muryango, uruhare rw'urubyiruko ababyeyi, abarezi, abayobozi, amadini n'ibindi byiciro bitandukanye mu kwimakaza ibiganiro byigisha ubuzima bw'imyororokere mu muryango mugari".

Kuri robine hariho ikijerekani kirimo kujyamo amazi, umuntu ushinzwe kuvomesha ari kuvomera umuntu, hariho n'ibindi bizerekani byinshi ndetse n'abandi bantu benshi baje ku ivomero kuvoma amazi.

Umusore wambaye umupira w'umweru n'amadarubindi y'umweru, uwo mupira wanditseho amagambo ugakoresha neza, afite n'ibindi byapa mu maboko yombi na byo byanditseho amagambo hariho icyanditseho ugakoresha neza ndetse n'ikindi cyanditseho amagambo aranga ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima.

Mu iduka ahagurishirizwa imiti gakondo, harimo umugabo wambaye umwenda w'akazi ndetse nta musatsi afite, afashe ku icupa ririmo umuti ku mupfundikizo waryo ku kantu gatukura, muri iri duka harimo n'indi miti myinshi ya gakondo.

Umuntu ufite uburwayi bw'amaguru ndetse iyi ni indwara y'uruho, yicaye ku ntebe imbere y'inzu, yambaye kambambire hanyuma mu kaguru ke hariho igipfuko cy'umweru, urugi rw'inzu yicayeho ni ubururu.

Ibyokurya bitandukanye hari aharimo indagara zimeze nk'isambaza, hagati harimo umucugwe cyangwa se ilongi. Ibindi byo kurya birimo hari ibiri ku isahani utamenya ubwoko bwabyo cyane cyane ku muntu wavukiye nko mu mugi. Uko bigaragara bino biryo byose ni ingenzi ku buzima bw'umuntu. Umuntu wese yihatire kurya indyo yuzuye.

Kwa muganga harimo umuganga w'umusirikare ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda ari kuvurwa indwara zo mu kanwa n'uwo muganga w'umusirikare mu cyumba kandi harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga.

Ku nzu yo ku rwego rw'Akagari yanditseho amagambo agira ati gira ubuzima mbere yayo hahagaze abagabo babiri bafite umurasire w'izuba hari umugabo ubizobereyemo ugiye kuwuhanika hejuru barimo kwifotoza ku ruhande rw'iyi nyubako hariho ikigega ku rundi ruhande hakabaho inzu idasa neza.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi mu cyumba cyo kwa muganga, ibitanda bimwe biryamyeho abarwayi, ibindi nta barwayi baryamyeho, harimo n'abarwayi bicaye n'undi uhagaze, harimo inzitiramibu ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Kwa muganga mu cyumba aho bapimira abana, muganga arahagaze ari gupima uko umutima w'umwana utera uwo muganga yambaye impuzankano y'akazi, umu mama ufite umwana wamwiyicajeho yicaye ku ntebe yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'akagofero mu mutwe, aho bari hari n'ibindi byifashishwa nko mu kwandika ndetse no gupima abana n'abantu bakuru.

Ahantu hashushanyije icyapa kiriho inkoko eshatu n'imishwi ibiri, ico capa cyanditseho amagambo atandukanye rimwe muri yo inyuguti zaryo zanditse mu mabara y'umuhondo, handitseho ngo piperazine.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zibanze zo ku rwego rw amagambo agaragara ndetse n'andi atagaragara agaragara yanditseho hariho ahanditse ngo Gira ubuzima. Imbere y'inyubako hari umugabo uhagaze ku idirishya uri kureba mu idirisha areba ibiri kubera mu nzu hariho kandagira ukarabe kandi n'abandi bantu bicaye imbere y'inyubako.

Kwa muganga mu cyumba aho abarwayi baryama, harimo ibiryamirwa ndetse ibitanda birimo n'ibikoze mu byuma, harimo n'ibindi bikoresho abarwayi bifashisha iyo baryamye ndetse na muganga yifashisha iyo aje kureba abarwayi.

Kwa muganga, mu byumba abarwayi baryamamo harimo inzitiramabu ndetse n'abandi barwayi baryamye harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga kugira ngo abarwayi bamererwe neza, harimo ndetse n'agakoresho gatanga akayaga hejuru kugira ngo umurwayi ataza kubura umwuka.

Abantu benshi cyane batandukanye bicaye mu nyubako irimo itara hejuru ndetse iyo witegereje hejuru kuri iyi nyubako yatangiye gushushuka, aba bantu bari kwa muganga bagiye mu mahugurwa ku bintu bitandukanye byagirira ubuzima bwabo akamaro.

Inyubako y'ubuvuzi itangirwamo serivisi z'ibanze z'ubuvuzi, izi nyubako zegerejwe utugari kugira ngo umuntu ntakarembere mu rugo, mu by'ukuri izi nyubako ziba ku kagari, niho hatangirwa izi serivisi cyane cyane izivura indwara z'ibanze.

Kwa muganga umuganga wabyigiye yambaye uturindantoki ndetse n'umwambaro w'akazi ari gupima umurwayi uryamye ku gitanda kugira ngo yumve uko umutima we utera, muri iki cyumba harimo n'ibindi bikoresho byo kwa muganga byifashishwa.